Ikiganza gifashe igishushanyo mbonera cy'inzu kugira ngo hifashishwe abaguzi bayo bagaragaze ko ari nziza kandi iboneye bityo bagashishikarizwa kuyigura kugira ngo iminsi yabo ikomeze kugenda neza.

Korora amatungo ni byiza kubayatunze kubera ko bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, nko ku by'akaboga ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye, bityo ba bagashishikarizwa bose kugira uwo muco ba...

Icyapa cyashyizwe ku muhanda kugirango kigaragaze ibikorwa remezo bihabera, bityo ababiyoboka abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga n'abashoferi babyo kugirango bakomeze babone uko umuhanda wakoreshejwe, iki gihugu kigakomeza kigatera imbere mu buryo buboneye.

Icyapa kigaragaza abantu ko bishyize mu matsinda, bityo bagakomeza kungurana ibitekerezo bagirana inama ku bibazo bafite runaka, bagakomeza guteza imbere igihugu cyabo ndetse n'ababakomokaho bityo ubuzima bwabo bugakomeza kujya hejuru aho bifuza.

aiamyenda yamamazwa ashishikarizwa abantu kuza kuyigura bityo bikababera bagasa neza bakiteza imbere mu muco no mu myifatire, bityo igihugu kigakomeza kugira itembanshyushyu gikomeze ku murimo wabo.

Akabati keza karimo udukoresho dutandukanye two mu rugo, hejuru yaho harimo amatara abiri ndetse n'agakombe karimo urubo rwiza, kegeranye n'igikapu ndetse naho bamanika imyenda, bityo bigafasha ugakoresha kugubwa neza mu buryo bwiza bwiwe runaka.

Imodoka nziza, nshyashya, ikinva mu ruganda, iri mu ibara ry'umukara n'umweru. Iparitswe ahantu harambuye. Ndashishikarizwa kugurishwa ku giciro kiri hasi, bityo, uyiguze akomeze kuyikoresha neza kugira ngo yiteze imbere mu buzima bwa buri munsi.

Imodoka iparitswe ku nyubako nziza ifite ibirahure byiza ibyuma byiza pariki nziza ndetse n'ibyumba byiza amajaride ndetse n'utundi tuzu two kuruhukiramo two ku ruhande kugira ngo abayigana bnakomeze kumererwa neza.

Abaturage bashimira banki uburyo ibafasha mu kuguriza ndetse no kuguza bityo bikabafasha kwiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse na za mudasobwa ndetse n'ibindi runaka.

Amafaranga ateretse ku meza, bityo apanze neza kugira ngo yifashishwe mu gukemura ibibazo duhura na byo bya buri munsi. Igihugu kigakomeza gutera imbere ndetse mu muco no mu myifatire bigakomeza kuturinda ubukene ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye.

Amagi meza ari gutunganywa n'uruganda rubishinzwe kugira ngo hubahirizwe umwanda aterwa n'ibiribwa bityo abaturarwanda bakomeze kugira ubuzima bwiza ndetse n'ababakomokaho bose n'igihugu muri rusange.

Aka ni agace gatuwe nk'uko bigaragazwa n'ibipangu bihari, hateye ipoto ririho insinga z'imikara kandi iri poto biragaragara ko rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi muri aka gace aha turahabona amapave aho iri poto rishinze, hari n'ibiti hakurya ndetse hari n'amabuye akikije izi ngo.

Terefoni n'ingirakamaro ku muntu wese ikoresha mu buzima bwa buri munsi, imufasha kwishyura, kubitsa, kwiguriza, kwihuza n'amabanki ndetse n'izindi serivisi runaka bigatuma umunsi we ugenda neza ukagira n'inyungu runaka.

Umudamu yambaye umwenda waba egenti ba emutiyene, afite icyo kunywa mu ntoki, asobanura uko serivisi zikoreshwa ku bantu runaka, ku baturage ndetse no ku bandi, bityo bigafashishwa kugirira akamaro igihugu.

Telefone ifasha mu kwishyura amafaranga, kuyakoresha ndetse n’uyakiriye, bityo bigatuma bose bagira ubwumvikane mu rugendo runaka rwa buri munsi. Mu buzima bwabo bwa buri munsi, telefone ifasha kandi mu guhangana n’imbogamizi bahura nazo.

Amafaranga ateretswe ku meza kugira ngo hifashishwe kuyabara nta rujijinganyo rurimo, abayabara bakomeze kugi kugubwa neza ndetse n'aba iyo bagiye kuyabaha.

Amafaranga ari kubarwa kugira bamenye ngo ayinjiye n'ayasohotse, ajye gukoresha ibibazo runaka, kugira ngo byose bikomeze kugenda neza.

Icyapa kigaragaza buryo ki abantu bakwiye kuzamurwa bagatezwa imbere, bityo bakigira aho bagera babifashijwemo n'ibigo runaka kugira ngo igihugu cyabo gikomeze kumererwa neza.

Ibiro bikoranywe ubuhanga biri gushimirwa n'Ikigo k'Igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa, bityo bagashishikariza abakoramo kugira imico myiza no gukoresha imbaraga nyinshi, bifashisha gahunda zabo za leta za buri munsi kugira ngo zikomeze...

Ibiro bya bank, biri gushishikarizwa gutanga, uburyo buboneye, bityo abaturage bakabiyoboka, ndetse no mu bindi mico mu myifatire, igihugu gikomeza gutera imbere, bityo babifashijwemo, amabanke atandukanye.

Ameza, intebe nziza, imisego ikoreshwa mu kwakira abashyitsi kugirango babone aho baruhukira bityo bigafasha ababasuye kumererwa neza ndetse no kumva badafite ipfunwe, bityo bigatuma igihugu kimera neza.

Amazi meza bari gushishikariza abantu kuza kuruhukiramo bicaramo bakogeramo kugira ngo ubwonko bwabo bukomeze gutekereza neza hifashishijwe ibiciro runaka byo kuyijyamo

Hoteli ifasha abantu kuruhukiramo ba mukerarugendo ndetse ikagirira akamaro n'igihugu ndetse na serivisi runaka zikenerwa zaba zikorerwa muri hoteri ikaba idufasha ibintu byiza.

Hoteli nziza, ifite pisine nziza, uburuhukiro bwiza, intebe nziza, jalide nziza, agapangu keza, ishishikariza kuganirwa nayo byahukiremo, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ubuzima bwacu bujye mu buzima bwiza.

Umugabo mu myambaro y'umukara n'umweru, bigaragara ko akuze, yegereye intebe nziza ndetse n'amatabure kugira ngo yifashishwe mu ifoto nziza, kugirango batange.

Telefone zifasha abantu kumera neza ndetse bakaba banabona amahirwe atandukanye yo gutsindira ibihembo bitandukanye ndetse n'ababakomokaho, bityo imiryango wabo bakomeza kumerarwa neza, iyo bafashijwemo n'igihugu.

Umuturage mu byishimo acuruza imbuto ziwe ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bityo agashishikariza abantu gukora cyane kugira ngo biteze imbere ndetse bagirire akamaro n'ababakomokaho n'imiryango yabo bityo bigafasha igihugu kwiteza imbere kikazamurwa mu ntera.

Inyubako iboneye ibereye igihugu ifite parikingi y'imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye, ishishikariza abantu kuyiyoboka bashakamo ibyo bakeneye bityo bakayibona neza mu mahoro, ntakibakanze kandi n'abafite ibinyabiziga bakabona aho babiparika.

Inzu y'umukozi wa emutiyeni ikaba ifasha abaturage gutanga imiyoboro y'ubutumwa kugira ngo yifashishwe kumererwa neza, bityo abo bavugana ku mafone bakomeze kugubwa neza, bityo nta kibazo kibaye.

Intebe nziza zikoreshwa mu kwakira abaturage ndetse zigashyirwa mu biro, hanyuma abantu bagana ibiro bagatuma bamererwa neza ndetse n'igihugu muri rusange kikagira imico myiza, imyifatire ndetse n'ibindi bibakomokaho.

Inyubako ikoreshwa n'abakozi ba MTN, kugira ngo babahe uburyo buboneye abaturage, bityo bishimire uburyo babakira, bityo igihugu gikome kuba indakemwa, mu mico no muyifatire, bakomeza kuzamuka mu iterambere.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'ameza akoranwe ubuhanga n'intebe yazo ndetse hirya n'akabati karimo ibinyobwa, bityo bagashishikariza abantu gukunda umurimo ndetse no kuba ntamakemwa mu byo bakoresha batabisesagura, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Isoko rifasha abaturage guhaha ibiribwa bitandukanye, biri amoko menshi, bityo bikabafasha gutuma ubuzima bwabo bwa buri munsi bumera neza, hanyuma ibi bikagenda uko babyifuza.

Utubati twiza dukonywe ubuhanga turi gukoreshwa mu bucuruzi, bityo hifashishwa kwiteza imbere kw'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, bityo bagakomeza kugira ubuzima bwiza ndetse n'ababakomokaho mu buryo busesuye.

Umukobwa mwiza mu myambaro myiza imubereye, ari gukoresha uburyo ki yagura indabo ajya gutaka mu nzu we, kugira ngo yifashishwe uburyo ki ibikorwa bye byakomeza kugenda neza mu mutima we neza bityo.

Ikiribwa kizwiho gutera vitamine nyinshi ndetse no gutuma umubiri umera neza, bityo kigashishikarizwa gukoreshwa na buri muntu wese kuko kimufitiye akamaro kagiye gutandukanye, bityo bikagaragaza ko uwagikoze akomeza kuguma neza nta kibazo agize.